Ibyuma bikunda kuba biri ahantu hari ishuri rya nasari，ry'abana b'incuke， bakiniramo imikino itandukanye，birabafasha iyo bari kuruhuka， barishima hamwe n'inshuti zabo.

Mu mashuri y'abana b'incuke habamo amashusho atandukanye atumaga abana bareba bari kwiga. Bicara ku dutebe dutoya ndetse n'utumeza dutoya. Haba harimo umwanya wo gukiniramo, hari n'aho bicaza abafite ubumuga.

Mu mashuri higamo abanyeshuri bambara inifomu ziba zisa. Baba bicaye kuri pipitere. Ni intebe zabo. Baba bayobowe n'abarimu babaha amasomo yo kwiga.

Muri atoriye habamo imashini zitandukanye hari izo badoderamo ibitenge, amapantaro n'ibindi byinshi. Hari nizo babohesha imipira cyangwa se amakabutura n'amasogisi n'ingofero z'abana, ziba ari nziza cyane.

Abanyeshuri bajya muri laboratwari gukora egisiperimenti cyangwa se ubushakashatsi ku bintu bitandukanye. Bakoresha ibyuma byabugenewe, biba biri muri laboratwari. Baba bambaye iniforume.

Abakora imigezi baba bambaye inifomo， babita abubatsi， bambara ibisurubeti， ingofero， n'inkweto zifunze. Baba bafite ibikoresho bitandukanye， cyane cyane amasupani.

Kwiga ni byiza cyane, bituma abantu babaho neza, bakagira ubuzima bwiza, bakagira akazi ndetse n'amafaranga, iyo wiga bigufasha, kugira inshuti zitandukanye, ndetse no kuzamura ikinyabupfura, mu bawe ndetse n'abandi.

Abiga kudoda baba bafite ibikoresho bihagije, cyane cyane amamashini yo kudoderaho aba afite urushinge n'urudodo bikoranye, abo ngabo babita abadozi.

Udupfukamunwa batwambara kugira ngo tubarinde ibyakwinjira mu mazuru cyanga se mu kanwa. Tugaragaraga neza cyane, twakundaga kutwambara ku bantu bita abasudira ndetse n'ababa barwaye ibicurane.

Abanyeshuri babaho neza cyane. Bajya mu ma laboratwari bagakora egisiperimenti zitandukanye. Babahereza ibikoresho bitandukanye bakabikoresha. Babikoresha bari gusuzuma neza niba ibyo biga muri tewori ari byo.

Kompiyuta ni igikoresho cyiza cyane gifasha nk'abanyeshuri cyangwa se abarimu ndetse n'undi muntu wese ugifite gusacinga no kureba amakuru mashyashya, gihuza inshuti , cyamamaza ibintu bitandukanye mu mahanga cyangwa se hanze y'igihugu.